Abantu, abantu batandukanye bafashe icyapa cyanditseho saniramu Rwanda, kiri mu ishusho mpandenye ndetse gifite ubuso bw'ubururu, ayo magambo yanditseho, yanditswe mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiriho umuntu wambaye ikoti n'ishati ndetse na karovati, afite umusatsi mucye, icyo cyapa giteye ahano hari ibiti birebire ndetse gikozwe muri mpande enye.

Umuhungu wicaye ku ntebe y'umutuku, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati, afite umusatsi uringaniye, ku meza hari igitambaro kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umuhungu, umuhungu ufite umusatsi uringaniye, ari guseka ndetse afite n'ubwanwa yambaye umupira w'ubururu ndetse n'isaha ku kboko kw'ibumoso, afashe ikirango kiri mu ibara ry'ubururu mu ntoki.

Ipaji z'umuhondo ifite amagambo yanditsemo y'umukara ndetse hari akamenyetso ka vi kari mu ibara ry'umweru ariko kari mu kirango gisa icyatsi kigaragaza ko ibyo wakoze byagenze neza.

Iduka ry'imyenda y'abagore. Imanitse ku kantu gakozwe mu cyuma. Ifite inkingi z'umweru ndetse n'amatara. Hasi hari amakaro ndetse n'utubati.

Imyenda yiganjemo imipira y'amaboko magufi. Iri ni iduka ry'imyenda. Imyenda igiye imanitse mu buryo butandukanye, aho umukiriya aza agahitamo umwenda ashaka, bimworoheye.

Inzu icururizwamo imideli itandukanye hanze hari imideli igiye itandukanye harimo imipira ndetse n'amakanzu hari akameza kariho iyindi imideli ndetse n'imitako.

Inzu, inzu irimo utubati turiho ibintu bitandukanye kandi ifite amadirishya ndetse n'inzugi, utwo tubati kandi turiho ibitabo bitandukanye.

Umugore, umugore yambaye imyenda y'ibitenge biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku, inyuma ye hari ibintu byinshi harimo ibiribwa bigaragara ko uyu mugore ari gucuruza, imbere ye kandi hari umunzani wo gupima.

Umukobwa uhagaze ufite imisatsi uri mu mabara atandukanye, harimo umukara ndetse n'umutuku. Yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikanzu y'umweru, ahagararanye n'undi mukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara nawe wambaye isengeri y'umweru ndetse n'ikoboyi y'ubururu.

Umukobwa ufite ibisuko birebire yambaye amarinete ndetse n'ikanzu ngufi, yambaye inkweto zifunze mu ntoki ze afitemo icupa ari kureba.

Inzu icurizwamo imyenda iyo nzu ifite umuryango winjiramo, ugezemo imbere hari imyenda imanitsemo uhitamo iyo ushaka, iyo nzu ifite amakararo amakaro y'umweru ndetse n'umukara.

Imyenda, imyenda myinshi itandukanye iri mu mabara atandukanye, bigaragara ko ni abantu bacuruza imyenda kandi imyenda iramanitse ku buryo buri muntu wese ayireba bitamugoye.

Imodoka, imodoka zose zisa umukara, zifite amapine y'umukara ndetse n'amatara y'umweru, inyuma y'iyo modoka hari uruzitiro.

Imodoka imodoka z'umukara ifite amapine y'umukara inyuma yaho hari uruzitiro, inyuma y'urwo ruzitiro atema ibiti iyo modoka iri muri kaburimbo imbere yayo hari umurongo usa umuhondo.

Imodoka, imodoka zisa umweru zifite amapine y'umukara, imbere y'umuntu, hariho amazi ndetse n'impapuro bigaragara ko ashobora imwe muri izi modoka.

Imodoka y'umukara ihagaze ahantu hamwe amatara yayo ari kwaka inyuma y'iyo modoka hari ibiti birebire ndetse n'inyubako nazo ndende.

Akayira k'abanyamaguru kari ku nkengero z'umuhanda, hejuru yako hari ipoto ritwaye insinga z'amashanyarazi ,hari n'inzu bagurishirizamo imodoka, harimo imodoka zamoko atandukanye.

Abantu, abantu bane b'abirabura ndetse n'umuzungu ubanza, yambaye ishati y'umukara babiri bakurikirana bambaye imipira y'umweru, undi yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'umuzungu wambaye ishati ndetse n'agapira k'ubururu.

Abantu babiri, umwe yambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro n'inkweto n'undi yambaye agapira, nta musatsi afite, mu ntoki afite agakapu gasa umutuku, inyuma yabo hari imodoka.

Umugabo wirabura wambaye ishati y'amaboko maremare, imbere ye hari inoti nyinshi z'amadorari imbere ye hari n'akamashini kamufasha kubara amafaranga.

Icyuma bifashisha babara amafaranga, iki cyuma kenshi gikunze kuba muri za banki, kandi iki cyuma kigufasha kubara amafaranga mu gihe ari menshi kugirango utibeshya.

Umugabo umugabo ufite uruhu rwirabura yambaye ishati y'amoboko magufi imbere ye hari inoti ndetse n'akamashini kamufasha kubara inoti.

Umugore, umugore wambaye ikoti ry'umukara yambaye isaha ku kaboko afite imisatsi miremire ahagaze ku murongo ategereje kwakirwa bigaragara ko ari muri banki.

Umuntu, umusore wambaye umupira wa maboko maremare ndetse n'ipantaro, imbere ye hari akabati kuzuyemo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Icyapa kiri mu mabara yiganjemo ubururu ndetse n'umweru. Cyanditseho Mukamira. Mo imbere harimo umukobwa, wambaye imyenda y'umukara. Yicaye ku gatebe k'umweru.

Umukobwa, umukobwa uri guseka afite uruhu rwirabura, imisatsi ye ni miremire yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti mu ntoki ze afite impano.

Umukobwa ufite imisatsi mike ari guseka yambaye n'amaherene mu ntoki ze afite inoti ebyiri z'ibihumbi bitanu n'izindi noti ebyiri z'ibihumbi bibiri yambaye umupira usa umuhondo.

Inoti, inoti iriho umugabo ufite imisatsi itari myinshi, wambaye umwenda ufunze mu gatuza, iyo noti hariho umubare gatanu.

Inzu inzu y'ubuzi ahantu ho ku muhanda ifite ibirango byo mu mabara y'icyatsi biragaragara ko iyi nzu ikorerwamo ivunjishwafaranga.

Intebe ziri mu mabara atandukanye, hagati yizo ntebe harimo akameza kabajwe mu mbaho. Ahantu izo ntebe nako k'ameza biteretse hari ubusitani bwiza.

Intebe ibajwe mu biti, hirya y'iyo ntebe hari indi ntebe ifite imisego hariho n'umusego w'ubururu, inyuma y'iyo ntebe hari urugi na rwo rubajwe mu giti.

Intebe zo kwicaramo ziri mu mabara atandukanye, hari i z'ubururu, hari izisa umweru ndetse n'umutuku, hagati harimo ameza abajwe mu giti.

Intebe zo mu ruganiriro, intebe zo mu ruganiriro zisa nk'igitaka ndetse n'ameza afite ikirahuri kandi harimo n'amakaro asa umweru.

Uruganiriro rufite intebe nke n’ameza bisa, inyuma yaho hari idirishya bigaragara ko uri kurebera ibibera hanze, kandi harimo n’amakaro.

Inzu y'amacumbi, yanditseho senti famiye hoteri, ibi ni ibyumba abantu bararamo, burije amatara ari kwaka, ibi byumba bifite amadirishya ndetse n'inzugi byose bisa umukara.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'iburyo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ubururu afite uruhu rwirabura .Ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ikoti n'ipantaro bisa nk'imbere hari umugabo wambaye ishati y'umweru ubona ko ari kubakira.

Imodoka imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara, imodoka imodoka y'umuhondo ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amapine y'umukara. Icyapa icyapa cya mpande enye gifite amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'ubuso bw'umweru.

Umugabo umugabo yicaye ku ntebe y'umutuku yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara inyuma ye hari icyapa cyanditseho radiyanti uyu mugabo ari gutanga serivisi zijyanye n'ibintu bya radiyanti.

Inzu itatse amabara y'umutuku ndetse n'umweru, intebe zirimo zisa umukara, hari umuntu wicaye mu ntebe wambaye umupira w'umweru, ndetse ameza yicayeho ari mu ibara ry'umutuku n'umukara.

Umuhungu wicaye mu ntebe y'umweru yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara imbere hari umukobwa, ufite imisatsi myinshi yambaye imyenda y'icyatsi.

Umukobwa w'imisatsi miremire isa umukara, ari guseka yambaye agashati k'umweru karimo utudomo tw'umukara, ahagaze ku modoka ndetse mu ntoki ze afite urufunguzo rw'imodoka.

Abantu babiri, umugabo ufite imisatsi, ufite uruhu rwirabura, ari guseka, yambaye ishati, mo imbere yambayemo n'umupira w'umweru, ari kumwe n'umugore ufite imisatsi miremire na we ari guseka. Afite urufunguzo mu ntoki.

Umugore, umugore wateze igitambaro mu mutwe wambaye agapira k'umuboko maremare k'umukara, ahanganye n'umukobwa wambaye umupira w'umweru ndetse na marinete, impande ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, nawe ahagararanye n'umukobwa wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu ufite imisatsi miremire.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe, ufite ibisuko bisa umukara, ari guseka, afite uruhu rwirabura, yambaye umupira, imbere ye hari ibiribwa.

Abantu, abantu babiri harimo umuhungu n'umukobwa, umuhungu ufite imisatsi ndetse yambaye amarinete yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti, umukobwa yicaye mu modoka arishimye ari gusekera uwo muhungu.

Abagore, abagore babiri bose bafite imisatsi miremire, ubanza yambaye ishati y'ubururu, undi ukurikiraho yambaye agapira k'ubururu ndetse n'umwenda w'akazi usa ubururu bwijimye.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bambaye imyenda itandukanye, hari imitaka ya eyateri ndetse n'ibindi bintu birimo mabara yiganjemo amabara y'umutuku, hari n'amamoto aparitse ku ruhande ndetse n'inyubako ifite amabati y'ubururu.

Umugore, umugore witeze igitambaro mu mutwe, wambaye agapira gasa ubururu, imbere ye hari imbuto zirimo imineke, imyembe ndetse n'inyomoro, impanda ye hari umusore wambaye ingofero ayirebesheje inyuma, yambaye agapira k'umukara.

Iyi foto iragaragaraho abantu benshi hariho ababyeyi bahetse abana, abagabo impande zabo hariho ibitebo birimo inyanya, urabona ko bari ahantu hahurira abantu benshi, mu isoko.

Umugore wambaye umwambaro w'umutuku, yicaranye n'abandi bagore babiri, impande ye hari akameza kariho ibiribwa, harimo ibitunguru, inyanya, ndetse n'intoryi.

Umugore ukenyeye igitenge yambaye n'umupira, mu ntoki ze afite ibase yezuyemo inyanya, impande ye hari umufuka nawe uriho inyanya ndetse n'intoryi.

Isoko ry'imboga ndetse n'imbuto, ririmo abantu benshi batandukanye, harimo abari kugurisha izo mboga n'imbuto ndetse n'abandi bari guhaha imboga n'imbuto.

Iduka ry'imyenda y'abagore, hari imyenda myinshi idozwe mu buryo butandukanye ubona ko ari iy'abagore. Hirya hari intebe y'umweru, hari n'umugore wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara, uhagaze bari kwitegereza iyi myenda.

Umugore witeze igitambaro cy'umukara mu mutwe, yambaye amaherene, ari guseka, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara urimo utudomo tw'umweru, imbere ye hari inyanya.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye umupira w'umuhondo afite terefone mu ntoki ze, undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu ndetse afashe n'igare mu ntoki ze.

Iyi foto iragaragaraho akazu ka emutiyene, karimo umuntu n'undi bahagararanye, aka kazu gacururizwamo amayinite ndetse n'ibindi bintu bijyanye na emutiyene.

Akazu k'umutuku kanditseho eyateli, bacururizamo amayinite gateretse ahantu ku muhanda babona ko abantu bose baza bakareba ,impande yaho hari umumama wambaye isengeri isa umuhondo.

Umugabo umuga arahagaze yambaye ishati y'amaboko magufi, afite umusatsi muke ndetse ishati yambaye nayo ifite uturango ahagaze munsi y'umutaka.

Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda cy'amapine abiri cyo tuzi nk'ipikipiki, ugitwaye yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara inyuma hari agasanduku bigaragara ko yajyanyemo ibintu.

Abakobwa batatu abakobwa uwambere ntamusatsi afite ari guseka, uwa kabiri yambaye ikoti ry'umukara urabona ko amasoso hijimye, uwa gatatu we afite umusatsi muremure kandi ari guseka.

Umukobwa wambaye amarinete, w'inzobe wambaye umupira w'umweru ahagararanye n'umuntu umuzaniye agakapu bigaragara ko asanzwe akora akazi ko kujyana ibintu.

Umuntu, umuntu yambaye ingofero y'ipikipiki, yambaye agapfukamunwa, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku ndetse n'ipantaro n'inkweto, mu ntoki afite ibintu bigaragara ko aribyo azanye kuri iki gipangu.

Imipira, imipira yo kwambara iri mu mabara atandukanye mudasobwa ndetse n'udukapu two guhahiramo, impande yaho hari ikarita isa umuhondo.

Umugore uhagaze arirabura afite imisatsi y'umukara myinshi, yambaye ikanzu ifite amabara atandukanye, umugabo wambaye ishati y'umweru, yambaye n'ipantaro y'umukara ndetse n'isaha umugabo n'umuzungu.

Inzu nziza ifite ibikoresho byose. Ifite amakaro mu mbuga yayo harimo amapave. Amagambo yanditseho aragaragaza ko iyi nzu iherereye i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege, bakaba barikuyigurisha miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda.

Ubwogero, ubwogero bufite idirishya, iryo dirishya riho irido rito, kandi hasi hari aho abantu bogera baryamye.

Inzu ifite ibaraza ririho amakaro, mu mbuga y'iyo nzu hari amapave ashashe hasi, haparitsemo imodoka y'umutuku, iyi nzu iherereye i Kanombe, iri kugurishwa amafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu.

Uburiri, uburiri busashe neza, buriho amashuka ndetse n'umusego, hari idirishya naryo ririho amarido y'umukara ndetse n'umweru.

Inzu ibanza ni inzu igiretse, ifite amabati asa umutuku, iteye amarange y'umweru ivanze n'icunga rihishije, iyi nzu kandi ifite imbuga ifite n'ubusitani butoya ku nkengero.

Icyumba kirimo igitanda mu gitanda hari ya matela hari ishuka risa umweru, hari idirishya ndetse n'irido ndetse hakaba n'umuryango n'irido n'itara hejuru.

Inzu ifite umuzenguru wukishijwe n'amatafari ahiye, kandi ifite igipangu gisa umukara, iyo nzu ifite amabati y'umukara, impande y'iyo nzu hateye ibiti.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite amakaro ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenerwa kugira ngo inzu ibe isa neza .Iyi nzu iherereye i Kanombe ikaba iri kugurishwa amafaranga miriyoni ijana na mirongo itatu y'amanyarwanda.

Inzu ifite amakararo ifite urugi rw'umukara ndetse n'amadirishya yo mu kabugazu ashejemo amapave, amagambo yanditse hejuru haragaragara inzu ifite ibyumba bitatu ikodeshwa iherereye Kimironko, ikodeshwa ibihumbi magana ane by'amanyarwanda.

Inzu, inzu ifite korotire y'amatafari ahiye, iyi nzu ifite amabati asa umutuku, isize n'amarangi y'mweru, ndetse n'icyatsi, iyo korotire yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse fondasiyo yayo yubakishijwe n'amabuye.

Inzu igeretse isize amarangi y'umweru, mu mbuga y'iyi nzu harimo amapave, amagambo yanditseho aragaragaza ko iyi nzu iri kugurishwa amafaranga angana n'ibihumbi ijana na mirongo ine by'idorari, iri Kibagabaga.

Icyapa kinini, gifite amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, kiri kugaragaza serivisi batanga, inyuma munsi yacyo, hari imodoka y'umweru, ifite amapine y'umukara, ubona ko ihagaze hamwe.

Abantu, umwe yambaye ikote rizumukara ndetse n'imisatsi miremire bari mu idukacuruuruza imyambaro urabona ko baje guhaha imyambaro hiya hari abari kwigira iyo myambaro.

Umukobwa umukobwa arahagaze afite imisatsi miremire yambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umutuku ari guhaha imbere hari ibiribwa bitandukanye.

Umukobwa, umukobwa ari kwijira mu iduka. Afite ibisuko birebire by'mukara, yambaye umupira n' ipantaro ndetse n' inkweto. Ahantu agiye kwinjira hari icyapa gisa cyatsi n' urugi rw'umukara.

Ikarita, ni ikarita isa umuhondo, ifiteho amagambo yanditseho asa umukara ndetse n'ubururu, hariho ifoto y'umwana adafite umusatsi.

Umugore, umugore ufite umusatsi uringaniye yambaye igitenge mu ntoki, ze afite ubwisungane mu kwivuza imbere ye hari umugabo ndetse n'umugore bambaye imyenda y'akazi isa umweru, bigaragara ko uyu mugore yaje kwivuza kwa muganga.

Umukobwa ufite imisatsi miremire. Ni umuzungu afashe akagare bahahiramo yambaye agasengeri ndetse n'ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto ari guhaha ibyo kurya.

Abantu bari mu iduka ubona ko bishimye, bari kugenda bamanura ibiribwa bashaka. Umwe yambaye umupira w'umuhondo ufite ikora ry'ubururu n'umuri inyuma yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Umugabo, umugabo wirabura wambaye umupira ndetse n'isaha ku kuboko, afite umusatsi muke ndetse n'ubwanwa, afashe akagare bahahiramo.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara. Arirabura ndetse ari guseka. Yambaye umupira usa ubururu. Uwo mukenyezi afite akajekani. Imbere ye hari undi mugore w'uruhu rwera. Yambaye ishati ndetse n'isaha.